Ubuhinzi ni ingirakamaro ku muturage ubukora neza, nko guhinga ibigori maze agashyiraho ifumbire mvaruganda ya ire, maze bikarushaho gukura neza kugira ngo bizamuhe umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi ni bwiza cyane iyo bwitaweho neza, aho tuba tugomba no kubutera umuti, twambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'uturindantoki, n'upfukamunwa, kugira ngo umuti dutera utabasha kuduhumanya, maze ibyo bihingwa dutera umuti bikazakura neza cyane.

Imiti ni ingirakamaro, nk'imiti ikorerwa mu nganda aho bayikoresha mu buhinzi butandukanye kugira ngo yice udukoko, maze imyaka ikure izira uburwayi kugira ngo izatange umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi ni ingirakamaro aho abaturage tubona amafumbire ndetse n'imbuto byarakozwe n'inganda, bakabitugezaho maze tukabasha kubibona bitatugoye, kandi bikaduha umusaruro, kuko baba barabitunganyije neza, bakabishyira no mu mifuka yabugenewe kugira ngo bitaza kwangirika.

Gukora ubuhinzi ni byiza cyane, aho tuba tugomba kubwitaho, tuwutera umuti kugira ngo wice udukoko, maze uzere neza utange umusaruro mwinshi kandi mwiza ushimishije.

Ubuhinzi dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ducyenera n'amafumbire yakorewe mu nganda aho tuyifashisha dushyira ku myaka tuba twarahinze, kugirango izatange umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito kandi ushimishije.

Ni ngombwa kwita ku bihingwa aho tuba tugomba kubishyiraho ifumbire yakorewe mu nganda kugira ngo bikure vuba maze bizatange umusaruro mu gihe gitoya bishimishije.

Gukora umwuga w'uburobyi ni ingirakamaro, aho tuwukora twifashishije ubwato kandi twambaye n'amajire yabugenewe ,maze tukaroba amafi ,insambaza ,maze tukabigurisha, tukabona amafaranga.

Amafi ni amwe mu bicuruzwa abantu bakunda kurya cyane, aho akunda kuba mu mazi ari mo yororewe, maze abantu bakayagura kugira ngo bagarye mu miryango yabo. Kuko abamo intungamubiri nyinshi zikungahaye kuri vitamine.

Ubworozi ni ingirakamaro nko korora amafi, aho iyo amaze gukura bayaroba bakayajyana ku masoko ,maze bakajya barayagura abayakeneye bakayateka kuko akungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Amafi ni bimwe mu biribwa bikungahaye kuri vitamine nyinshi, aho arobwa mu mazi, akagurishwa, maze abayakeneye bakayagura bakajya kuyarya mu miryango yabo.

Uburobyi ni ingirakamaro. Nko kuroba amafi aho tuyateka mu ngo zacu, maze tukabona intungamubiri ziyakomokaho kugira ngo dukure neza, tugire imirire myiza izira igwingira.

Umwuga w'uburobyi ni mwiza cyane aho ukorerwa mu mazi borora amafi ndetse n'isambaza, maze zamara gukura bakazigurisha abazikeneye kuko ziba zikungahaye kuri vitaminini nyinshi.

Uburobyi ni imwe mu mirimo ifitiye abaturage akamaro aho bayikora bifashishije inshundura zabugenewe kugira ngo bafate amafi akuze, maze bayagurishe bazabonemo amafaranga, kandi abayarya baronkamo intungamubiri nyinshi umubiri wabo ukenera maze bakagira itoto.

Umwuga w'uburobyi ni ingirakamaro aho bifashisha amato manini ndetse n'inshundura kugira ngo barobe amafi akuze bayakura mu biyaga, maze abayakeneye bakayagura bakajya kuyarya, ndetse n'abakora umwuga w'uburobyi bakabona amafaranga aturutse muri uwo mwuga bakora.

Ubucuruzi bw'ibikomoka mu mazi nk'indagara, amafi ,amahera, isambaza, aho abacuruzi babikura babiranguye ku bakora umwuga w'uburobyi maze bakabigurisha babitangigira mu masoko, maze ababikeneye bakaza kubigura bakajya kubirya mu ngo zabo kuberako biba bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Umusaruro ukomoka mu mazi nk'amafi, amahera, insambaza, aho itekwa ikaribwa kubera ko uba ukungahaye ku ntungamubiri nyinshi, maze uwuriye akagubwa neza.

Gukora umwuga w'ubworozi bw'amafi mu mazi ni ingirakamaro, aho tuba twarateguye ibikoresho byifashishwa muri ubwo bworozi, maze tukarushaho kwiteza imbere, kuko tuba twarateguye umushinga neza, kandi utangiza ibidukikije.

Ubworozi ni ingirakamaro nko gukora ubworozi bw'amafi, nk'aho iyo amaze gukura bayaroba bakayajyana ku masoko bakabonamo amafaranga bifashisha, bakora ibindi bikorwa kandi ayo mazi bakayabungabunga ku buryo atajyamo imyanda ngo yice ibyo bororeramo, urugero nk'amafi abamo.

Ni byiza ko twita ku bikomoka mu mazi，kuko iyo bimaze gukurwamo， bijyanwa mu mahoteri，no mu maresitora，no mu ngo zacu tukabiteka neza， kugira ngo tubirye， kuko biba bikungahaye mu ma vitamini menshi，ndetse n'intungamubiri nyinshi kandi nziza，umubiri wacu ukenera.

Amafi ni kimwe mu biribwa bivamo intungamubiri nyinshi zikungahaye kuri vitamine, aho tuba tugomba kuzitera nk'umunyu kugira ngo zitangirika, maze abazikeneye bakazibona mu buryo bworoshye.

Iyo bimwe mu bihingwa twahinze byeze, bimwe tubyifashisha dukora nk'inzitiro, ibindi tukabikoresha dufunga ahantu kugira ngo abantu batazaza kutwonera, kuko haba harimo ibintu bigiye bitandukanye nk'insina, asombe n'ibindi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ibirayi, aho tuba tugomba kubyitaho neza, tubifumbira kandi tukabibagarira, kugira ngo bizaduhe umusaruro ushimishije, maze byazera tukabijyana ku masoko.

Ikidodoki ni kimwe mu mboga zifasha abantu kuzibona bitabagoye, aho bakunda kugitera ku biti cyangwa se ku ruzitiro maze kikaranda, nyuma y'igihe gito kikazanaho imbuto abantu bifashisha batekamo imboga.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, nko guhinga imbuto zo mu bwoko bw'amatunda, aho ziba zigomba kwitabwaho, bazishingira ibiti agomba kuzamukiraho, kugira ngo azatange umusaruro mwiza ushimishije.

Igihe cy'isarura iyo kigeze biba ari byiza. Nko gusarura ibigori maze tukabibika neza. Aho twabisaruye tukahatunganya tukazatera ibindi bihingwa, n'ibisigayemo tukabyitaho nk'amateke ndetse n'ibiti bihakikije.

Gutera ibiti by'imbuto ni ingirakamaro， aho nko mu busitani tuba tugomba gushyiramo nk'ibiti by'ingenzi by'imbuto， maze tukabyitaho tubisasira，kandi tukabishyiraho ifumbire， kugira ngo nibikura bizaduhe umusaruro.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, nko guhinga amajeri, aho tuba tugomba kuyafumbira neza, kugira ngo akure neza, maze azatange umusaruro mwiza kandi mwinshi ushimishije, maze tukayarya mu ngo zacu, ayandi tukayajyana ku isoko.

Gutera ibiti by'imbuto ni ingirakamaro nko gutera avoka, aho iyo imaze gukura itanga umusaruro ushimishije, maze abantu bakabona imbuto zo kurya bitagoranye.

Ubuhinzi bw'imbuto buba ari bwiza cyane, iyo bwitaweho neza kuko butanga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya, kandi imbuto ziba zikungahaye kuri vitamini, umubiri wacu ukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane, nko guhinga mu nzu zabugenewe za firime hawuze, aho umuntu ateramo igihingwa kimwe akacyitaho neza, kikazatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, maze akiteza imbere mu bikorwa bye.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga igihingwa ngengabukungu cya kawa, aho iyo zeze bazijyana ku isoko, maze bakabona amafaranga menshi meza, kandi atubutse, bityo bakarushaho kwiteza imbere mu bindi bikorwa bakora.

Mu biribwa bimwe na bimwe dusangamo ibihaza ,aho babisarura mu mirima iyo byeze maze bakabigurisha, ababikeneye bakaza kubigura bakajya kubiteka mu ngo zabo ,maze bakabonamo intungamubiri nyinshi zikungahaye kuri vitamine, bityo bakarushaho kugubwa neza.

Imbuto ni ingirakamaro, nk'urubuto rwa avoka iyo rumaze kwera, aho baruca bakarutara maze rugashya bakazarurya, kuko rugira vitamini nyinshi umubiri wacu ukenera, izindi bakazijyana mu nganda, bagakoramo ubwoko bw'ibintu bitandukanye nk'amavuta.

Mu biribwa dukunda kurya dusangamo nk'intoryi; aho zikungahaye kuri vitaminini nyinshi, kubera ko tuzitekamo imboga maze tukabonamo ibitunga umubiri byiza cyane, tukabaho dufite ubuzima bufite itoto.

Umwuga w'ubuhinzi ni mwiza cyane nko gukora umwuga w'urusenda aho iyo wawitayeho neza rutanga umusaruro mwinshi, mwiza ,ushimishije, bityo bakawujyana mu nganda zo mu mahanga ,abawukoze uwo mwuga, bakaronka amafaranga meza kandi menshi.

Gukora ubuhinzi ni byiza cyane, nko gukora ubuhinzi bw'inyanya, aho inyanya zitanga umusaruro mwinshi iyo zitaweho neza, maze uwakoze uwo mwuga akabonamo amafaranga menshi cyane. Kandi inyanya zikaba zikungahaye kuri vitamine nyinshi zitunga umubiri w'umuntu.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ibitunguru aho iyo bimaze kwera abaturage babigura bakabiteka, aho byifashishwa babishyirara mu biryo kugira ngo bihumure neza, kandi ibitunguru bikaba bikungahaye kuri vitamine zishinzwe gutunga umubiri wacu, kandi bituma n'ibiryo biryoha bikagira impumuro nziza.

Gutegura imbuto z'ibiti bigiye bitandukanye nk'imyembe, amavoka, amatunda aho bitunganyirizwa muri pipiniyeri, kugira ngo bizatangwe ku bazashaka kuzihinga, maze zikazatanga umusaruro mwiza cyane ushimishije.

Ubucuruzi bw'ibikomoka ku matungo ni ingirakamaro, nko gucuruza inyama aho baziteka nko mu mahoteli, amaresitora bifashishije amavuta, maze abazikeneye bakaza kuhasohokera bakazigura, kuko ziba zateguwe neza.

Ubworozi ni bwiza cyane nko korora inkwavu aho zigomba kuba zubakiye mu biraro byiza cyane, kandi inkwavu zitanga umusaruro kuko zororoka vuba maze uwazoroye akiteza imbere kubera umusaruro wazo wihuta kandi mu gihe gito.

Avoka ni urubuto rwingirakamaro kuko rukungahaye kuri vitamine nyinshi ndetse n'intungamubiri, aho ruvamo amavuta zimwe bakazijyana mu nganda zigakugwamo ibindi bitandukanye.

Imbuto ni ingirakamaro, nko kurya imbuto za kokombure, imyembe, amaronji, amakaroti, aho abamo ibitunga umubiri bikungahaye ku ma vitamini, maze tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, nko guhinga ibirayi; aho tuba tugomba kubisura, kugira ngo turebe niba biri gukura neza, kandi tukanabihingira kugira ngo bitazameramo ibyatsi, ntibibashe kwera uko bikwiye.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu，aho gihingwa ku buso bunini， maze iyo kimaze kwera，abakozi bashinzwe kunoza icyayi bagisoroma， bakakijyana ku nganda zigitunganya neza， maze igihugu kikabona amafaranga aturutse mu buhinzi bwo guhinga icyayi

Guhinga ni ingirakamaro nko guhinga imbuto zitandukanye nk'imyembe. Aho iyo zimaze kwera tuzipakira tukazijyana ku masoko maze abazikeneye bakazigura tukabona amafaranga gaturutse muri bwa buhinzi bwacu bw'imbuto w'imyembe.

Ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi ni byiza cyane, nko gucuruza ibitoki aho tubipakira imodoka bimaze kwera tukabijyana aho babikeneye ku bwinshi, maze uwahinze urutoki akabona amafaranga aturuka mu musaruro w'ibyo yahinze.

Ubuhinzi bw'imboga ni bwiza cyane， aho tuba tugomba guhurira mu mirima twateguye， maze tukareba aho ubuhinzi bwacu bugeze， tubikesha gukorera hamwe kandi vuba.

Ni byiza ko iyo umusaruro umaze kwera, waratunganijwe neza, umwe uhabwa abaturage kubera ko uba waratunganirijwe mu ruganda maze bakarushaho kujya kwiteza imbere mu mirire yabo kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga inyanya, aho tuba tugomba kuzitaho kugira ngo zizaduhe umusaruro ushimishije, tuzishyiraho ifumbire tukazibagarira maze zigashisha neza, kugira ngo twitege umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho iyo bimaze kwera tubijyana mu ngo zacu tukajya tubiteka, maze tukabirya tukarushaho kugira ubuzima bwiza. Ibindi tukabisagurira amasoko maze abatabifite bakajya kubigura na bo bakabona kuri ibyo bihingwa bakabirya mu miryango yabo.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ibishyimbo, aho tuba tugomba kubisura kugira ngo turebe niba hari ikibazo byaba bifite, maze tukabyitaho kugira ngo bizere neza biduhe umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko gukora ubuhinzi bw'ibirayi, aho tuba tugomba kubibagarira tubishyiraho ifumbire, maze bigakora neza bikazaduha umusaruro mwiza ushimishije kandi mwiza mu gihe gitoya.

Ubworozi ni bwiza cyane nko gukora ubworozi bw'amatungo magufi. Worora ihene aho zitanga umusaruro mu gihe gitoya. Maze uzoroye akiteza imbere ndetse na society muri rusange.

Ubworozi ni bwiza cyane nko gukora ubworozi bw'amatungo worora inka. Aho zitangaga umusaruro ushimishije, kandi zitanga amata, inyama, ndetse n'ifumbire yifashishwa bafumbira imyaka.

Mu buzima bwa buri munsi dukenera kurya imbuto， nko kurya imbuto z'amapera， aho ziba zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi， kubera ko ziba zitaratewe n'imiti myinshi， ziba zikungahaye ku ma vitamine menshi，umubiri wacu ukenera.

Ubuhinzi ni bwiza cyane nko gukora ubuhinzi bw'amashu ,aho iyo yeze tuyajyana ku isoko maze tukabonamo amafaranga menshi kandi meza maze tukiteza imbere tubikesha uwo musaruro, amwe tukaba tuyajyana n'iwacu tukayarya ku mafunguro yacu ya buri munsi....

Ubuhinzi ni bwiza cyane nko guhinga igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, aho iyo kimaze kwera abantu bakinoga, bakakijyana mu nganda, maze zikagitunganya neza, kubera ko kiba cyarahinzwe ahantu hanini, kandi amahanga akaba akunda icyayi cy'iwacu cy'u Rwanda.

Ubuhinzi ni imwe mu nkingi ikomeye cyane, aho nko guhinga ibishyimbo biba bigomba kwitabwaho bishyirwaho ifumbire kandi bigasurwa kenshi, maze uwabihinze akazabona umusaruro ushimishije, kubera ko aba yarabyitayeho neza cyane.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera imboga， aho dukunda gukenera nk'amashu tuba twarahinze， maze tukayarya， tukaronkamo intungamubiri nyinshi， umubiri wacu ukenera， kandi kakavaho ibyatsi duha amatungo yacu， maze nayo akaduha umusaruro.

Mu biryo duteka mu buzima bwa buri munsi, dusangamo nk'imboga aho haba harimo nka puwavuro, imiteja, imboga za seleri, aho tuzikura mu isoko, maze tukajya kuziteka iwacu mu ngo, tuzishyira ku mafunguro twateguye maze tukarushaho kugira ubuzima bwiza, kuko zibamo intungamubiri nyinshi zikungahaye kuri vitamine.

Ibiribwa ni ingirakamaro kuko tubikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi ,urugero nk'ibitoki aho tubikura mu masoko cyangwa tukabikura mu ntoki zacu tuba twarateye maze tukabirya tukagira ubuzima bwiza, ibindi tukabijyana ku masoko tukabonamo amafaranga twifashisha tugura ibindi biribwa dukenera mu rugo rwacu.

Ubuhinzi bw'ibirayi buba ari bwiza cyane, aho iyo bimaze kwera byarakuze neza bisarurwa bikajyanwa ku masoko, maze ababikeneye bakaza kubigura bagatanga amafaranga maze ababicuruza na bo bakiteza imbere.

Ni byiza ko imbuto zizaterwa z'ibiti zibanza gutegurwa neza muri pipiniyeri, zitabwaho, zikiri ntoya, kugira ngo abazazikenera bazazibone bitagoranye, zifite ubwiza kandi zimeze neza kugira ngo aho zizaterwa zizakure vuba.

Mu bihingwa ngengabukungu dusangamo: ikawa, aho ubutaka buhurizwa hamwe bakayihingaho, maze yamara kwera abashinzwe kunoga icyayi bakagisoroma bakakijyana ku nganda, kigatunganywa neza maze igihugu kigatera imbere kibikesha igihingwa ngengabukungu cy'icyayi.

Ubuhinzi ni bwiza cyane. Nko gukora ubuhinzi bw'ibirayi ,aho iyo bimaze kwera bikurwa ,bigapakirwa mu mifuka imeze neza, bakabijyana ku masoko kugira ngo ababikeneye bajye babigura bitabagoye.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga soya, aho tuba tugomba kuyitaho turanduramo ibyatsi kandi tuyisura buri gihe, kugirango tuyiteho izakure neza iduhe umusaruro ushimishije.

Ni byiza gukora ubuhinzi nko guhinga ibirayi, aho biba bigomba kwitabwaho, biterwa umuti wica udukoko kugira ngo bizere neza, bitange umusaruro ushimishije, maze umuntu abone ibyo arya kandi abone n'ibyo asagurira amasoko.

Ubuhinzi ni bwiza cyane nko gukora ubuhinzi bw'imyumbati, aho iyo bwitaweho bwarafumbiwe neza tweza imyumbati myinshi kandi myiza, maze tukazijyana ku isoko izindi tukazijyana mu ngo zacu tukazirya bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Gukora ubuhinzi bw'imyaka, biba bigomba kwitabwaho cyane, aho nk'ibigori biba bigomba gushyirwaho ifumbire, n'abantu babyigiye ndetse n'abajyanama b'ubuhinzi, kugirango bikure neza, bizatange umusaruro mwiza kandi bikaba byiza cyane, az iyo bikorewe mu makoperative.

Ibitunguru ni ingirakamaro aho tubisarura mu mirima yacu, twakabifunga mu mifungo, maze tukabigurisha ababikeneye bakabigura ,kuko tubiteka mu biryo kugira ngo biryohe ,kandi bihumure neza kandi igitunguru ni ingirakamaro mu mubiri wacu ,kuko kigira intungamubiri nyinshi.

Ibihaza ni kimwe mu biribwa dukunda kurya mu buzima bwacu, kuko kiba gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, maze tukakirya tukamererwa neza, tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ibiribwa ni ingirakamaro nk'ibiribwa cy'igihaza aho iyo kimaze kwera tugica maze tukakijyana mu ngo zacu, tukagiteka kuko igihaza gikungahaye kuri vitamine nyinshi umubiri wacu ukenera.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko gukora ubuhinzi bw'inyanya, aho iyo zeze neza tuzijyana ku isoko, tukabona amafaranga, maze abazikeneye bakazijyana mu miryango yabo bakajya kuzirya ,bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Imbuto ni ingirakamaro nko kurya amaronji, aho buri muturage aba yabasha kuyigurira kuko adahenda, maze akayarya iwe mu rugo akabonamo intungamubiri nyinshi zituma agira ubuzima bwiza kandi akirinda indwara mu mubiri we.

Gukora ubuhinzi ni ingirakamaro nko gukora umwuga w'ubuhinzi bw'insenda, aho iyo zeze bazijyana ku isoko, izindi bakazijyana mu nganda kugira ngo bazitunganye, bakoremo urusenda rw'umwimerere, maze abarukeneye bajye barugura bajye barurya ku biryo, kuko ruba rukungahaye kuri vitamini.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, nko gukora ubuhinzi bw'ibishyimbo aho biba bigomba gukurikiranwa neza, bishyirwaho ifumbire bakaranduramo ibyatsi kugirango bizere neza, bitange umusaruro ushimishije.

Ni ngombwa kwita ku bihingwa tuba twarahinze, aho tuba tugomba kubisura kenshi kugira ngo turebe uko bikura, maze bikazaduha umusaruro gushimishije bitewe n'uko tuba twarabyitayeho cyane.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nk'igihe cy'izuba aho tuba tugomba kuvomerera imyaka twahinze, kugira ngo zizaduhe umusaruro mwinshi mwiza kandi ushimishije maze twiteze imbere.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gukora ubucuruzi bw'ibitoki, aho babijyana ku isoko maze bakabonamo amafaranga, ababikeneye bakajya kubirya mu ngo zabo maze bakagira ubuzima buzira umuze.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho iyo byeze tubijyana mu masoko maze ababikeneye bakaza kubigura, bakajya kubirya mu ngo zabo bakamererwa neza, n'ababicuruza bakabona amafaranga aturutse mu bakiriya baje kubihaha.

Imbuto ni ingirakamaro, aho iyo tuziriye bidufasha kuba twakwirinda indwara mu mubiri wacu; nko kurya amavoka, imineke, aho bituma tubona intungamubiri nyinshi kandi n'ababicuruza babona amafaranga aturutse muri ibyo bicuruzwa baba barimo kugurisha.

Kubika neza umusaruro w'ibigori iyo weze ni ingirakamaro, aho tuwushyira ahantu habugenewe hubatswe neza, maze tukabirinda kuba byakangirika, ku buryo iyo dukeneye kongera kubihinga tubibona bitarangiritse, ndetse ibindi tukabijyana mu nganda bagakoramo amafu agiye adatandukanye.

Igitoki cyakuze neza, aho bagishyiramo inkingi kugira ngo kitazagwa maze cyamara kwera, bakakigurisha, bakakijyana ku isoko, abagikeneye bakakigura, bakabona amafaranga.

Ni byiza gukora umwuga w'ubuhinzi; nko guhinga ibirayi, aho tuba tugomba kubyitaho kugira ngo bizaduhe umusaruro mwinshi, mwiza, tubibaga kandi tubitera umuti, maze bikazatanga umusaruro mwinshi.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ni mwiza cyane nk'umusaruro w'ibitoki, aho babica byarakuze, bakabitara bigashya, kugira ngo bajye babicuruza barya imineke, cyangwa babikame bivemo umutobe.

Ni byiza ko twubaka inzu nziza cyane tugateraho indabo ndetse n'imikindo, aho ituma hagaragara neza kubera ko iba ihatatse, maze bigatuma haza akuka keza ndetse n'akayaga.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza imboga z'amashu aho tugomba kuzicururiza ahantu heza, hejuru hafite isuku haratuma zidahura n'imyanda maze abazikeneye bakaza kuzigura ,tukabona amafaranga na bo bakajya kuziteka bakabona indyo yuzuye mu mubiri wabo.

Ubucuruzi ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho tujya mu masoko no mu maduka tugiye kugura imbuto zigiye zitandukanye, ndetse n'imboga nk'intoryi, inyanya, aho tuziteka mu biryo kugira ngo bigire ifunguro ryuzuye.

Imbuto ni ingirakamaro nk'imbuto z' avoka, aho iyo zimaze kwera tuzica tukazitara tukajya tuzirya izindi tukazijyana ku masoko. Abazikeneye bakazigura maze nabo bakabona intungamubiri zikungahaye ku mavitamine zituruka muri voka.

Ni byiza gukora ubuhinzi bumeze neza nko guhinga amashaza, aho tuba tugomba kuyafumbira, kugira ngo azaduhe umusaruro mwinshi mwiza kandi ushimishije.

Umwuga w'ubuhinzi ni ingirakamaro, aho tuwukora dutera imbuto zigiye zitandukanye; z'ibishyimbo, inzuzi, ibigori aho zimwe tuzitera zaramaze kumera, bityo twazitera zikava mu butaka zidatinze.

Ubuhinzi ni igikorwa cyiza cyane nko guhinga ibishanga, aho babiteramo umuceri kubera haba harimo amazi, maze bakawitaho neza kugirango uzatange umusaruro, kubera ko haba haratunganyijwe mu buryo bugezweho.

Mu buhinzi dukora bwa buri munsi, dukenera no gutera imbuto zitandukanye, aho zimwe tuzitera zaramaze kumera, kugira ngo nizimamara kugera mu butaka zizahite zizamuka, maze zitange umusaruro kubera ko ziba zari taweho neza cyane.

Iyo twahinze maze tukeza, umusaruro wacu wo guhinga ibishyimbo byamara kwera, aho tubihura tukabigosorera ku ntara, tubyanika tubirobanura tubikuramo umwanda, kugira ngo tuzabone uko tubiteka ibindi tubijyane ku masoko tubigurishe.

Iyo twahinze umusaruro ukaboneka biba ari byiza cyane, aho tuba tugomba kuyikusanyiriza mu mifuka. Nk'ibigori iyo byeze aho tubihungura tukabishyira mu mifuka kugira ngo tubibike neza bitazangirika, maze tukabijyana ku nganda ibindi tukabijyana mu ngo zacu tukabiteka tukajya tubirya tukagira ubuzima bwiza.

Umwuga w'ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ubunyobwa, aho bahuriza ubutaka hamwe, maze bagateramo igihingwa kimwe kugira ngo kizere gitange umusaruro ushimishije, maze abagihinze biteze imbere.

Iyo umusaruro wasaruwe neza ukera, uba ugomba gukusanyirizwa hamwe mu bwanikiro, nk'umusaruro w'ibigori. Kugira ngo utazangirika, maze igihe bazongera gukenera guhinga bakawubona bitabagoye, undi bakawujyana ku masoko, ndetse no mu nganda bagakoramo ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Iyo umusaruro w'ibyo twahinze ubonetse turawutunganya, tuwugosora, tugakuramo imyanda, maze tukawubika neza cyangwa tukawuteka tukawurya. Kubera ko tuba twarawusaruye ufite imyanda, maze tukawukuramo bimwe tukajya kubigurisha, ibindi tukabijyana mu nganda.

Gukusanya umusaruro ni byiza cyane iyo weze nko kubika neza ibigori mu bwanikiro bwabugenewe bimaze kwera, kugira ngo bitazangirika maze mu gihe cyo kongera guhinga, bizaboneke bitagoranye. Ibindi babijyane mu nganda.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ibishyimbo aho biba bigomba gufumbirwa neza, kugira ngo bizazane imishogi myinshi kandi imeze neza, maze uwabihinze yitege umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi ni bwiza cyane iyo bwitaweho nko guhinga ubunyobwa, aho iyo bweze busarurwa bugatunganywa maze bukajyanwa ku isoko, bakajya bakuramo amafaranga ubundi bakabukaranga bakajya babuhekenya, cyangwa bakajya babushyira mu biryo maze bakabonamo intungamubiri nyinshi.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho iyo ahinzwe neza atanga umusaruro ushimishije, maze nyirayo akamuteza imbere bitewe n'uko akuramo amafaranga menshi, kandi agasagura nayo kwifashisha iwe mu rugo.

Ubuhinzi ni bwiza, nko guhinga ubunyobwa ,aho iyo bweze twarabuhinze neza butanga umusaruro ushimishije ,maze umuhinzi yabugurisha akabona amafaranga aturuka mu buhinzi ,aba yarakoze kubera ko aba yarabwitayeho neza cyane.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ,nko guhinga ingano aho iyo zeze tuzisarura zimaze kuma ,maze zikavamo ingano tujyana ku masoko ,tukazigurisha tukabonamo amafaranga, izindi tukazijyana mu ngo zacu ,tukajya turazirya maze tukarushaho kugira ubuzima bwiza ,tubukesha gukora ubuhinzi.

Imbuto ni ingirakamaro nk'imbuto z'ubunyobwa, aho igihe iyo kigeze tuzitera mu mirima yacu, izindi tukazikoramo ibyo kurya tuzikaranga cyangwa se kuzishyira mu biryo, kuko ziba zikungahaye kuri vitamine nyinshi.

Ni byiza ko iyo twasaruye umusaruro，tuba tugomba kuwubungabunga tukawanika，kugira ngo uzume neza，maze igihe cyo guhinga ni kigera， hazaboneke imbuto yo guhinga，mu buryo butagoranye kandi nziza.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza bukera, havamo umusaruro gushimishije nko guhinga amoko y'ibishyimbo agiye atandukanye, aho iyo amaze kwera aba ari imishogi igiye itandukanye, maze abayikeneye bakayigura bakajya kuyiteka kuko iba ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Umuco gakondo dusangamo inzu zifashishwaga mu guhunikamo, bitaga ibigega. Aho babikagamo imyaka mu gihe yabaga yeze, maze bakenera kuyirya bakajya kuyikuramo . Cyangwa bashaka kongera guhinga ,akaba arimo bayikura ,kuko yabaga ibitswe neza kugira ngo itazangirika.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nk'iyo twahinze nk'ingano cyangwa ibigori aho tubijana mu ikusanyirizo maze bikabikwa neza, igihe cy'ihinga cyazagera ababikeneye bakabigura bakajya kubihinga, ibindi bakajya kubirya ndetse ibindi bikajyanwa mu nganda bigatunganywamo ibindi bintu bifitiye abaturage akamaro.

Ubuhinzi ni bwiza cyane nko gukora ubuhinzi bwa soya, aho ziba zigomba kwitabwaho zigashyirwaho ifumbire, kugira ngo zizere zitange umusaruro mwinshi kandi mwiza ushimishije.

Umusaruro w'ibigori ni ingirakamaro iyo witaweho neza kugira uzavemo imbuto zizifashishwa mu kindi gihe cyo guhinga maze ibisigaye tukabijyanaana ku isoko. Ababikeneye bakabigura bakabirya ibindi tukabijyana mu nganda bagakoramo amafu atandukanye.

Ingano ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho iyo zihinzwe neza zigashyirwaho ifumbire zitanga umusaruro ushimishije, maze abazihinze bakabona amafaranga aziturutsemo, akazijyana mu nganda, inganda zigakoramo amafu agiye atandukanye.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga umusaruro w'ubunyobwa aho iyo bweze barabwitayeho mu gihe bwahingwaga buduha umusaruro mwiza ushimishije maze umwe tukawujyana ku masoko ubundi tukaburya mu ngo zacu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni inkingi ikomeye kugira ngo umuntu agere ku iterambere vuba, nko korora inkwavu zororerwa ahantu hateguwe neza, kandi zikabona ibyo kurya bifite ireme, kugira ngo zikreu neza, zitange umusaruro vuba.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ingirakamaro ku bantu babukora. Nko korora inkoko aho zororoka vuba zigatanga umusaruro, aho zitanga amagi ndetse n'ifumbire hiyongeyeho n'inyama, maze abakora uwo mwuga bagatera imbere mu buryo bworoshye, kandi zaba zarwaye baziha imiti twahawe n'abavuzi b'amatungo.

Ubworozi ni ingirakamaro nko korora ingurube, aho igomba kuba iri mu kiraro cyubatswe neza, kandi abavuzi b'amatungo bakaza kuyisura igihe yagize ikibazo, kugira ngo irusheho kugira ubuzima bwiza, izateze nyirayo imbere.

Kugira abaganga b'amatungo ni ingirakamaro, nk'aho ba veterineri baza kutuvurira amatungo, cyangwa kuyakingira kugira atazarwara indwara runaka, maze akabaho azira indwara, maze bigatanga umusaruro ushimishije.

Ubworozi ni bwiza cyane, nko korora inka, aho tuba tugomba kugera igihe tukazikingiza, aho ba veterineri baza bakazitera imiti kugira ngo zitarwara, maze zikabaho ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Ubworozi ni ingirakamaro nko kurora ingurube, aho zororoka vuba, zikungura uzoroye mu gihe gitoya kandi zigatanga umusaruro mwinshi, ndetse n'iyo zagize ibibazo, ba veterineri baba bahari babyigiye, kugira ngo bazibungabungire ubuzima.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ingirakamaro nk'aho iyo amatungo yacu yarwaye cyangwa dushaka kugakingiza, tubwira abavuzi b'amatungo bakaza kuyaduterera inshinge zirimo imiti maze akarushaho gukura neza afite ubudahangagwa.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro, kuko buduha amagi menshi cyane aho tuyahuriza hamwe ku bikoresho byabugenewe, kugira tuyagemure ku masoko atangiritse maze tugakuramo amafaranga menshi.

Ubworozi ni bwiza cyane nk'iyo tworora inka aho tuba tugomba no kuzitera umuti, kugira ngo turwanye udukoko twabasha kuzataka maze zikarwara, kugira ngo zirusheho kubaho zizira uburwayi.

Abavuzi b'amatungo ni ingirakamaro aho batuvurira amatungo yacu yagize ibibazo bitandukanye, cyangwa se bagatera inshinge kugira ngo agire ubudahangarwa maze abeho mu buzima butagira indwara.

Korora amatungo magufi ni ingirakamaro nko korora amahene, aho tuba tugomba kuyororera mu biraro bimeze neza, tukayagaburira neza kugira akure kandi yaba yarwaye tugahamagara ba veterineri, bakayakingira cyangwa se bakayavura kugira ngo akure akomeze aduhe umusaruro.

Ubuvuzi ni ingirakamaro, aho iyo amatungo yacu yarwaye aba veterineri baza kuyavura maze agakira akabaho neza ntaduteze ibihombo, natwe tukabaho tunezerewe.

Ubu bworozi bw'amatungo magufi ni ingirakamaro, nkkorora inkoko, aho tuzorora ahantu hanini iyo ari nyinshi dushyiramo ibikoresho byabugenewe, kugira zirusheho kubaho neza, kandi hakaba hubatse neza, maze zikazaduha umusaruro ushimishije mu gihe gito.

Ubworozi ni ingirakamaro cyane ku babukora neza, nko korora ubworozi bw'ingurube aho ziba zigomba kwitabwaho neza cyane, ndetse n'abavuzi b'amatungo bakaza kuzikingira, kugira ngo zitazarwara, maze zikaduha umusaruro mwiza ushimishije.

Ubworozi ni bwiza cyane, nko gukora ubworozi bw'inka twororera mu biraro byubatswe neza bisakaye ndetse birimo na sima, ndetse tukanazitera imiti inka zacu kugirango zitarwara. Igihe zarwaye tukazivura kugirango zikire, zikomeze kuduha umusaruro mwinshi mwiza nk'amata, ifumbire ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko dukora ubworozi buteye imbere, aho nk'iyo tworoye amatungo amaze gukura tuyajyana ku isoko agakurwamo inyama abantu bakunda kugura, maze bakunguka ibyiza byo korora, kandi inyama ziba zikungahaye kuri vitaminini nyinshi umubiri wacu ubakenera.

Ubworozi ni ingirakamaro nko korora ingurube aho zitanga umusaruro mu gihe gitoya. Aho tuba tugomba no kuyororera mu biraro byubatswe neza, kandi zagira n'ikibazo abavuzi b'amatungo bakaza kuyavura kugira ngo arusheho gukura neza, azatanga umusaruro ushimishije.

Inyamaswa zo ku gasozi ziba zigomba kwitabwaho tuzirinda ba rushimusi, kuko ba mukerarugendo baza kuzisura bagatanga amadovize, maze igihugu cyacu kikarushaho kwiyubaka kigatera imbere.

Inyamaswa zo ku gasozi ni ingirakamaro cyane kuko ba mukerarugendo baza kuzisura bagatanga amadovize, bityo igihugu kigatera imbere mu buryo bwihuse cyane, kandi tuba tugomba no kuzibungabunga kugira ngo zitazazima.

Inyamaswa z'ishyamba ni nziza cyane， nk'inyoni aho zikurura ba mukerarugendo bazaga kuzisura， bagatanga amafaranga igihugu kishi cbaka ibikorwaremezo bifasha abaturage gukomeza gukataza mu iterambere

Ni byiza ko tugomba kwita ku nyamaswa zo mu gasozi, aho dusangamo: inguge, inkende aho ziba zigomba kwitabwaho kuberako zikurura, ba mukerarugendo baza kuzisura baje kureba ibyiza bitatse igihugu cyacu.

Inyamaswa zidufitiye akamaro， aho tuba tugomba kuzibungabunga，turinda ibyanya zibamo ko byakonorwa na ba rushimusi， maze abakerarugendo baza kuzisura bagatanga amafaranga，maze tugatera imbere tufashi twubaka ibindi bikorwaremezo biduteza imbere.

Inyamaswa ni zimwe mu zigize urusobe rw'ibinyabuzima， nk'inyamaswa z'ingagi aho zikunda kuba mu birunga by'igihugu cyacu， aho ba mukerarugendo arizo bakunda gusura cyane mu gihugu cyacu， bagatanga amafaranga menshi， igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwaremezo， ndetse n'abaturage bahaturiye， bakabona ibyiza bituruka kuba begereye iyo pariki y'ibirunga.

Inyamaswa zo ku gasozi dusangamo nk'inyoni, aho ziba zikundwa na bamukerarugendo baza kuzisura maze bagatanga amadovize, bityo bigatuma igihugu cyacu gitera imbere.

Inyamaswa ni nziza cyane nko mu nyamaswa ziguruka dusangamo nk'ibisiga; aho bikunda kwibera mu mashyamba, ndetse no mu biti, kandi zikunda gusurwa na ba mukerarugendo baje kwihera ijisho ubwiza nyaburanga buzitatse.

Inyamanswa zo kugasozi, ziba zifitiye abaturage akamaro, kubera ko bamukerarugendo baza kuzisura, maze bagatanga amafaranga, igihugu kikayifashisha, kiteza imbere kandi tuba tugomba kuzibungabunga, kugira ngo zirusheho kwiyongera, mubwiza ndetse no mubwinshi.

Inyoni ni imwe mu nyamaswa igize urusobe rw'ibinyabuzima aho iyi ikunda kwibera ku gasozi nk' aha, udusimba dutandukanye aho tuba tugomba kuzitaho tukazirinda ba rushimusi kugira ngo zikure neza cyane.

Inyoni ni inyamaswa nziza cyane aho ikunda kwibera mu gasozi, itungwa n'ibihingwa abaturage bahinga kandi abantu bakunda kuzisura, maze bagatanga amafaranga atuma igihugu gitera imbere.

Inyamaswa ni ingirakamaro; aho nk'inyoni zidufasha kutubyutsa buri gitondo, kandi ba mukerarugendo baza kuzisura bagatanga amadovize, yinjiriza igihugu, bazacyubakamo ibikorwa remezo bitandukanye. Nibyo tugomba kujya tuzibungabunga kugira ngo zikomeze zitubesheho mu buzima bwacu bwa buri gihe.

Ibidukikije ni ingirakamaro, aho dusangamo nk'inyoni tuba tugomba kuzibungabunga, kubera ko zinjiza amafaranga iyo ba mukerarugendo baje kuzisura, maze igihugu kigatera imbere.

Inyamaswa zo ku gasozi ni ingirakamaro kuberako ba mukerarugendo baza kuzisura bagatanga amadovize, aho abaturage tuba tugomba kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kuko bituma igihugu gitera imbere, binyuze mu baza kugisura baje kureba ibyiza bitatse u Rwanda.

Ibiguruka ni zimwe mu nyamaswa zikundwa na ba mukerarugendo, aho bazisura, bagatanga amafaranga igihugu cyifashisha cyubaka ibikorwaremezo, kandi ibyo biguruka tuba tugomba kubibungabunga neza.

Inyamaswa z'agasozi ziba zikwiye kwitabwaho， nk'ibikeri aho tugomba kubibungabunga， kubera ko bifite akamaro kanini， aho ba mukerarugendo babisura， maze bagatanga amafaranga， maze igihugu kikayifashisha kiteza imbere.

Inyamaswa nk'ibiguruka ziri muri zimwe mubigize urusobe rw'ibinyabuzima, aho zikunda kwibera mu byanya byahariwe inyamaswa, aho ba mukerarugendo bazisura maze bagatanga amadovize igihugu kifashisha cyubaka ibindi bikorwa remezo bituma abanyarwanda batera imbere.

Inyamaswa zo kugasozi ni ingirakamaro aho dusangamo nk'ubwoko bw'inyoni bugiye gutandukanye, aho bukurura bamukerarugendo maze bakazana amafaranga igihugu cyacu kigatera imbere. Kandi tuba tugomba kubungabunga urwo rusobe rw'ibinyabuzima kuko zidufitiye akamaro gakomeye kandi kanini.

Mu nyamaswa dusangamo n'icyugu, aho gikunda kwibera mu mashyamba ndetse no hanze, kikaba gikurura na ba mukerarugendo baza kugisura, aho kiba kigomba kurindwa kugira ngo kitazazimira.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa ziba mu mashyamba, aho zisurwa na ba mukerarugendo bakinjiza amafaranga ,maze igihugu kigatera imbere . Kandi inyoni tugomba kuzibungabunga tutangiza amashyamba ndetse n'aho ziba.

Ni byiza ko tubungabunga ibyanya byahariwe inyamaswa nk'aho imvubu zikunda kwibera mu mashyamba ndetse no mu mazi. Kuko zikurura ba mukerarugendo baje kuzisura, maze bagatanga amafaranga Igihugu cyifashisha cyubaka ibikorwaremezo.

Inyamaswa ziba zigomba kwitabwaho neza nk'inyoni aho zikunda kwibera mu mashyamba kandi abakerarugendo baza kuzisura bagatanga amafaranga atuma igihugu gitera imbere.

Inzoka ni zimwe mu nyamaswa z'agasozi, aho ba mukerarugendo bazisura bagatanga amadovize, igihugu kigatera imbere. Tukaba tugomba kuzibungabunga kugira ngo zitazacika ku isi.

Inyamaswa ni zimwe mu binyabuzima bidukikije, aho tuba tugomba kubyitaho tubirinda ba rushimusi kuko bituma abantu bashaka kuzisura, batanga amafaranga maze bigatuma twiteza imbere, twifashishije ya mafaranga aturuka mu bantu bazisura.

Inyamaswa zo ku gasozi ni ingirakamaro aho abakerarugendo baza kuzisura bagatanga amafaranga, igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bifitiye abaturage akamaro.

Mu byanya byahariwe inyamaswa dusangamo nk'inyoni zikunda kwibera mu biti, aho bamukerarugendo bazisura bagatanga amafaranga ,maze igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyamaswa zo ku gasozi ni nziza; nk'inyamaswa zitwa impyisi, aho abakerarugendo baza kuzisura bagatanga amadovize, igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwaremezo byinshi bitandukanye.

Inyamaswa ni zimwe mu zigize urusobe rw'ibinyabuzima, nk'inzoka aho iba mu maparike, ahantu hahariwe kuba inyamaswa, kuko kandi isurwa na ba Mukerarugendo, bityo bagatanga amadovize yinjiriza igihugu, baje kwisurira ibyiza bitatse igihugu cyacu.

Mu rusobe rugize ibinyabuzima dusangamo nk'inyoni, aho ziba zigomba kwitabwaho kubera ko zikurura ba mukerarugendo, baje kuzisura kandi zikaba zinjiza amafaranga iyo baje, niyo mpamvu tuba tugomba no kuzitaho kugirango zitazacika.